Serivise z'ubuvuzi ziri muri zimwe muri serivise zihabwa ikiremwamuntu, zikarinda ikiremwamuntu kuba cyabaho gifite uburwayi runaka, bushobora kukibuza kubaho ndetse no gukora imirimo yagifasha kwiteza imbere.

Mu buryo bwo gusigasira uburenganzira ndetse n'ubuzima bwiza bw'ikiremwa cya muntu, habayeho amashuri yigisha ibijyanye n'ubuvuzi bwa muntu, kugira ngo umuntu akomeze agire ubuzima bwiza.

Ubuvuzi bukoresheje ikoranabuhanga buri muri bimwe mu byavumbuwe ko bifasha ireme ry'ubuvuzi kuba ryakwiyongera, aho bigabanya impfu ziberwa mu buvuzi ndetse no kuba abantu bavurwa indwara zigakira neza.

Iterambere ry'ubuvuzi ndetse no kwitabwaho ku buzima bw'abana. Biri muri bimwe mu bifasha igihugu gutera imbere. Kuko aho abenshi babizi ko cyangwa se bivugwa ko umwana cyangwa se urubyiruko arirwo Rwanda rw'ejo.

Ubuzima bw'amaso biri muri kimwe cyagakwiye kubungwabungwa cyane cyane mu bana batoya, aho amaso ashobora kuba yafasha umuntu mu mibereho myiza, ndetse hari n'akazi umuntu akora kubera ko afite amaso mazima, akabasha kuba yakwiteza imbere.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bukoresha ibyatsi karemano bidasabye ko binyuzwa mu ruganda ,bitewe n'indwara runaka bagiye kuvura ,ushobora gusanga bakoresheje uruvangitirane rw'ibyatsi runaka cyangwa se bagakoresha icyatsi kimwe bitewe n'umwihariko wacyo.

Ubuvuzi gakondo buri muri bimwe mu byatejwe imbere. Aho usanga umuntu ashobora kwivura akoresheje igisura. Kizwiho ko gishobora kuba cyavura umuntu indwara y'igifu igakira.

Ubuvuzi gakondo buri muri bimwe abanyarwanda ndetse n'abandi muri rusange bizereramo, aho bukoreshwa n'ibyatsi karemano bitasabye ko binyura mu nganda, bitewe n'uburwayi runaka bugiye kuvurwa.

Ubuvuzi gakondo: n'ubuvuzi akenshi bwifashishwa ibyatsi by'ibimerano cyangwag se byahinzwe, ariko bitasabye ko bica mu nganda, aho usanga ibi byatsi bishobora gukoreshwa ari icyatsi kimwe cyangwa se uruvangitirane rw'ibyatsi bitewe n'umwihariko w'indwara igiye kuvurwa.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bukoreshwa ibyatsi bidasabye ko bibanza kunyuzwa mu ruganda, aha usanga icyatsi gitegurwa mu buryo butandukanye, bitewe n'umwihariko w'uburwayi kigiye gukoreshwa kivura.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bukoreshwa ibyatsi gakondo bitasabye ko binyura mu ruganda, aho ushobora gusanga icyatsi gitegurwa kigatekwa wenda mu mazi, ayo mazi akabasha kuba yanyobwa bitewe n'indwara runaka kigiye kuvura.

Ubuzima bw'ibinyabuzima by'ibyatsi ndetse n'ibibikomokaho buri muri bimwe byagakwiye kubungwabungwa. Aho ibyatsi ndetse n'ibiti bitadufasha kuyungurura umwuka gusa, ahubwo binadufasha tubyifashisha mu gukoramo imiti ivura indwara.

Ubuvuzi gakondo buri muri bimwe mu byatejwe imbere , aho usanga ababikora nk'umwuga bagomba kuba bafite icyangombwa cya Leta kibemerera kubikora , kigaragaza ko ibyo bakora bitagira ingaruka mbi ku kiremwamuntu.

Umwenya ni kimwe mu byatsi bikoreshwa mu buvuzi gakondo, aho bitewe n'indwara runaka cyangwa se umwihariko umwenya ufite wifashishwa mu kuba wavura indwara runaka bidakenewe imiti yanyuze mu ruganda.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bukoreshejwe ibimera ,cyangwa se ibintu karemano bitanyujijwe mu ruganda. Mu buvuzi gakondo rero habamo kuba bakoresha ibyatsi, cyane cyane icyatsi cy'igisura ,bitewe n'indwara runaka baba bagiye kuvura.